Aha ni ahatangirwa ubuvuzi kandi bwihutirwa, hakaba hari abaganga bambaye kandi bikwije bigaragaza yuko aba ari abarwayi b'ibyorezo. Iyi mbangukiragutabara iri kuzana abaje kubakira, barambaye barikwije mu rwego kugira ngo batandura.

Aba ni abarwayi bicaye mu ivuriro kwa muganga, mu bitanda bivurirwamo abarwayi bavurwa baba mu bitaro, ni abamama bose, bigaragara ko bategereje muganga, ngo abavure cyangwa se abasezerere batahe.

Aha ni ahatangirwa ubuvuzi bw'ibanze ndetse kandi bwihutirwa, aho harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi baje barembye cyane, bityo bakabitaho nta nkomyi kandi mu buryo butekanye.

Iki ni igikarito kinini cyane kikaba kirimo ibishashi birimo amaraso, aho abashinzwe gukusanya amaraso atangwa n'abakorerabushake hirya no hino mu gihugu, bajyana igisanduku maze utanze amaraso igisheke cyakuzura bakayashyiramo.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, isize irangi hasi ndetse no hejuru, isakaje amabati y'umutuku, imbere y'iyi nyubako hari imbangukiragutabara, ariko bigaragara ko nta murwayi ugiye gutwara.

ha nihabereye igikorwa cy'ubutabazi bwihutirwa, hari kugaragara abantu bambaye bikwije, kandi bakaba bafite ibyangombwa byose bibemerera gutabara, hakaba hari n'abandi bambaye imyenda y'Umuryango utabara imbabare.

Ahandi ku kigo nderabuzima hakaba hari imbangukiragutabara yaje gutora umurwayi urembye, mu rwego rwo kugira ngo imwihutane imujyane ku bitaro bikuru, maze abashe guhabwa ubuvuzi bwisumbuye ubwo yari ari guhabwa.

Iyi ni imodoka y'imbangukiragutabara ikaba irimo umushoferi wayo, iparitse ahantu mu mbuga isashemo amapave kandi ni mu marembo y'ibitaro, ibi bitaro bikaba ari ibya Gatunda aho ije gutwara umurwayi.

Inyubako nziza cyane igeretse kabiri, ni nyubako y'ivuriro yubatswe, ikaba yatashywe ku mugaragaro, imbere yayo mu busitani haragaragara abayobozi, abaganga ndetse n'abarwayi, bishimiye ko iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo umuganga wambaye ikaburiya y'umweru ,akaba yicajije umubyeyi imbere y'imashini ubona ko zisuzuma abarwayi, akaba ari kumushyira igipimo ku kuboko mu rwego rwo kugira ngo arebe uburwayi arwaye.

Umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano ya gisirikare, akaba afite ibendera ry'igihugu ku rutugu rwe, yambaye akuma abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi, bigaragara ko ari kuvura umukecuru uryamye ku gitanda, uyu mukecuru akaba yambaye agatambaro mu mutwe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo abarwayi bagiye batandukanye ndetse n'abaganga batandukanye, aba ni abaganga bambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda aho bari gusuzuma abarwayi kandi ubona ko babyitayeho.

Iri ni ivuriro, rikaba riri kugaragaramo muganga ndetse n'umurwayi uri gutanga amaraso, kugira ngo bajye kumusuzuma uburwayi bwa malariya abaganga b'inzobere ibi babikora vuba kandi, bihuse bigatuma abarwayi babonera ubutabazi ku gihe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iryamyemo umurwayi, bagiye kumuha ubuvuzi bwihutirwa cyane aho harimo abaganga batatu bose bambaye impuzankano, babiri bambaye iz'ubururu, undi umwe yambaye iy'icyatsi.

Aha ni mu kigo nderabuzima, hakaba hari abantu baje kwivuza, harimo umumama warembye cyane bigaragara ko yubitse umutwe mu biganza, bose bakeneye ubuvuzi, hakaba hari umuganga w'umuzungu uri kubafasha.

Aba ni abaganga, bakaba bari imbere y'imodoka y'Ibangukiragutabara. Ni imodokadoka iparitse ahantu hari imbuga isashemo amapave. Inyuma yayo hakaba hari ibiti birebire. Ibi biti bitanga umuyaga n'amabumbezi mu kigo nderabuzima kiri hano.

Aha ni mu nyubako y'ikigo nderabuzima, turi kubonamo abama bameze neza cyane, abamama baje kwivuza, babanza guhabwa udutabo baba basoma, ubona ko babyishimiye nubwo bafite uburwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, si ibyo gusa kuko kuri iyi nyubako hariho icyapa kigaragaza ko bavura uburwayi bw'amaso, abahagana bakaba baherebwa serivisi ku gihe.

Uyu ni umuganga uri kuvura umurwayi, umurwayi aryamye ku gatanda k'abarwayi, hanyuma umuforomokazi, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, nawe yamushyizeho icmvirizo, arikumva niba umutima we uri gutera neza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'amaboko maremare ndetse na karuvati y'umukara afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'ameza yashyizeho amakaye ye, b igaragara ko imbere ye hari abo ari gutambutsaho imbwirwaruhame.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iyi inyubako ikaba yuzuye vuba, yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya n'ibirahuri by'umweru, aba bakaba ari abayikoreramo, bari kwifatira ifoto y'urwibutso imbere yayo.

Uyu ni umuganga uri mu cyumba gisuzumirwamo imiti. Akaba ari gucomeka ibyuma mu rwego rwo kugira ngo aze kumenya niba uyu muti ushobora kuvura umurwayi cyangwa se nta bushobozi ufite/

Aha ni mu kigo nderabuzima bakaba bari gutanga ibizamini, ni umumama uri inyuma mu idirishya, akaba yahaye urutoki umuganga wambaye impuzankano y'umweru uri imbere mu ivuriro aho basuzumira, akaba ari kumufata amaraso.

Aba ni abaganga bambaye uturindantoki tw'ubururu, bafite agacupa mu ntoki bigaragara ko karimo ibizami byatanzwe n'abarwayi, bakaba bagiye kubisuzuma mu rwego kugira ngo barebe uburwayi burimo.

Aha ni ahakorerwa ubushakashatsi bugiye butandukanye ndetse hakaba ari no mu isuzumiro, turi kubona umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, akaba ari gutera urushinge mu kaboko k'umwana, bigaragara ko amaraso yamushizemo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amamashini bifashisha basuzuma ibizamini baba bahawe n'abarwayi. Iyi nyubako ikaba ifite parafo y'umweru, inkuta zirasa umweru nazo.

Umwari mwiza cyane wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari muri Laboratwari asuzumirwa ibizamini bigiye bitandukanye, uyu mwari bigaragara ko yize kandi asobanukiwe ibyo akora, ibi bigatuma akorana akazi ke ubushishozi.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu Laboratwari agiye atandukanye, aho usanga bapima ingano ndetse n'uburemere, bw'imiti n'ibindi bintu byose baba bari gukoreraho ubushakashatsi.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano nziza cyane hakaba hasuzumirwa ibizamini abanyeshuri bari gushyira mu ngiro ibyo biga. Abanyeshuri bize babona aho bashyirira mu ngiro ibyo bize barangiza bafite ubumenyi bukenewe cyane.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubugenzuzi bw'ibizamini byatanzwe n'abarwayi ndetse n'ubugenzuzi bw'imiti, aho inzobere mu bijyanye no gusuzuma zifashisha ibikoresho byose birimo hano, bakamenya niba umuntu arwaye cyangwa atarwaye.

Ibi ni bimwe mu bikoresho, abaganga bifashisha mu gihe bagiye kujya mu masuzumiro y'imiti ndetse n'ibizamini bigiye bitandukanye hakaba harimo uturindantoki, hakabamo udupfukamunwa, ndetse hakabamo n'ibindi bikoresho bifashisha.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bambaye udupfukamunwa, bakaba bari aho bari gushyira mu ngiro ibyo biga mu magambo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo wambaye akagofero k'ubururu, yambaye umupira w'umweru urimo utudomo tw'utunyenyeri tw'umukara, akaba ari kureba akana ke aho agakinisha baseka mu rwego rwo gukangura ubwonko bwabo.

Hirya no hino mu gihugu abajyanama b'ubuzima bahabwa amahugurwa, mu rwego rwo kugira ngo bajye bavura abaturage bitabasabye kugera ku bigo nderabuzima, kuko ibi bituma abaturage batarembera mu rugo.

Aba ni ababyeyi bambaye imipira y'ubururu iriho amagambo ari mu nyuguti z'impine agira ati: "USAID" bose bari konsa abana babo mu rwego rwo gukangura imikorere y'ubwonko bwabo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu gikorwa cyo guhugurwa ibijyanye n'imikorere ndetse n'ubwonko cyane cyane bikaba bikorerwa abana mu rwego rwo kugira ngo bakure bafite ubwonko bukora neza.

Uyu ni umugabo wambaye agapira k'icyatsi kibisi hakaba hariho amagambo RBC y'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ari gusobanurira abamama ndetse n'abana bari hano ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite amadirishya n'inzugi biriho ibirahure by'umukara. Imbere yayo hagaze umu mama ndetse n'umupapa bose bateruye abana bambaye imyenda isa ndetse n'utugofero. Bigaragara ko aba bana ari impanga.

Aba ni abaganga, bakaba bari gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, abo barimo abari gusuzuma umuvuduko w'amaraso ndetse n'abandi bari gusuzuma ubuziranenge bw'amaraso.

Umwana ukiri muto ni ngombwa kumwitaho, mu rwego rwo kugira ngo azakure afite mu bwonko, hakora neza kandi hatekereza, bitewe n'uko umubyeyi aba yamwitayeho, mu minsi ye igihumbi ya mbere.

Abana bakiri bato usanga ari ngombwa kwitabwaho, kuko utitaweho ukiri muto birangira atakaye burundu. Aba ni ababyeyi bari kugaburira abana babo mu rwego rwo kugira ngo babareme maze bazakure bafite ireme.

Iyi ni inyubako y'ikigonderabuzima yubakishijwe amatafarihiye ikaba isize irangi ry'umuhondo. Ifite amadirishya ariho ibyuma nabyo bisize irangi ry'umuhondo, hari abamama umwe mu idirishya abandi baricaye bigaragara ko bari ahatangirwa mituweli.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umuhondo, akaba ariyo magambo yanditswe mu'ibara ry'ubururu agaragaza yuko ahangaha hakirirwa abahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa. Iyi nyubako kandi igaragaraho kizimyamwoto.

Aba ni abantu bicaye hamwe, bicaye bazengurutse. Bakaba bari gusobanurirwa ndetse banigishwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Aba bombi biganjemo urubyiruko bari gusobanukirwa neza.

Aba ni abantu bahuriye hamwe, bakaba biganjemo inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, bari gusobanurira abitabiriye iyi nama, ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Uyu ni umumama wambaye ikoti ry'umukara ndetse na amarinete, afite imisatsi miremire ijya imbere, bakabaha bamuteze indangururamajwi, ahari gusobanura ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe n'uko wabitunganya.

Iyi ni inzu y'inama. Ikaba irimo abantu baturutse hirya no hino. Harimo abazungu ndetse n'abirabura, hakabamo urubyiruko ndetse n'abakuze. Imbere yabo hari umuntu wambaye ikanzu ndende, uri gutambutsa imbwirwaruhame, akaba ari kubabwira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Bakaba bambaye udupfukamunwa. Harimo umwari wicaye ku ntebe we atambaye agapfukamunwa. Aha hakaba habereye igikorwa cyo kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Uyu ni umumama uri gusobanurira abantu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, afite indangururamajwi mu ntoki yambaye ikanzu ndende, yahindukiye ari kubarebera ku musaya. Ni byiza kwigisha abantu ndetse no kubasobanurira kuko ibi bituma nabo bagira ubumenyi.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi bugiye butandukanye, turi kubona imyenda y'abamama, bagiye bashyira ku bipupe bayicururizaho, mu rwego rwo kugira ngo abantu barebe uko ingana, maze bigurire.

Uyu ni umugabo uhagaze muri farumasi, icuruza imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, uyu mugabo yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro yumukara, ari kwitegereza iyi imiti ye kugirango arebe ko haba harimo yarangije ubuziranenge.

Iyidi farumasi irimo imiti igiye itandukanye, harimo ama etajeri menshi, iyi miti ifunze mu dukarito ndetse no mu macupa, aho ayo makarito agiye atandukanye kandi akaba afite n'amabara atandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bw'imiti hakaba harimo amoko y'imiti agiye atandukanye apanze ku tubati turi hano. Imwe iri mu bikarito indi ikaba mu ducupa. Iyi miti ikoranye ubuhanga buhanitse.

Iyi ni farumasi itangirwamo imiti y'amoko agiye atandukanye, harimo umwari wambaye ikaburiya y'umweru ufite imisatsi y'umukara inyerera, akaba ari guha imiti umusore umuri imbere uri kuyimusaba.

Iyi ni inyubako nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, aha rero iyo uhageze baguha imiti y'uburwayi ubwo aribwo bwose waba ufite, gusa rimwe na rimwe, hari ubwo bagusaba icyemezo cya muganga.

Aha ni ahacururizwa imiti igiye itandukanye, bakaba bagiramo imiti y'indwara zose ndetse bakaba banakorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye, aho baguha umuti uko muganga yawukwandikiye.

Utu ni uturindantoki twamaze gukoreshwa n'abaganga. Hirya no hino mu mazu acuruza imiti dusangamo uturindantoki kandi ukaba wakwifashisha ukora n'indi mirimo, urinda intoki zawe kuba zagira umwanda ukabije.

Aha aha ni ahacururizwa imiti y'amoko agiye atandukanye ndetse kandi ivura indwara zigiye zitandukanye, aha turahabona umugabo uje kugura imiti, ari kuvugana n'umusore uyicuruza, maze akamusobanurira.

Aba ni abantu bari mu muhanda bakaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge, aho bafite icyapa cyanditseho amagambo agira ati" twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge.

Aba ni abaturage bateranyirijwe hamwe bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubuvuzi rusange, aho babashishikariza kwirinda indwara ndetse no kwivuriza ku gihe kuko ibi bituma bagira ubuzima bwiza.

Aha ni ahabereye igikorwa cy'ubukangurambaga aho bazanye imodoka bayitereka aho. Abantu benshi cyane baje kwiyumvira ibyo izi nzobere ziri kubasobanurira. Ni byiza kwitabira ubukangurambaga kuko uhungukira ubumenyi.

Aba ni abana bakiri bato bateraniye ahantu hamwe, bakaba bafite icyapa kiriho umuntu ndetse n'amagambo menshi cyane, abana bakaba bari bari mu bikorwa rusange by'ihuriro rijyanye no kuganira ku bijyanye n'ubuzima.

Aba ni abanyeshuri bari mu muhanda, aba banyeshuri bakaba bambaye impuzankano ziri mubara ya kaki ndetse n'umweruru, harimo bagenzi babo babiri bafite icyapa kigaragaza ko bari ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge, aho iki icyapa cyanditseho ko bari kwamagana icuruzwa ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu nzu y'inama, imbere y'abo hari umugabo wambaye ishati y'umukara n'amaboko maremare ndetse wegereye ameza ariho impapuro, uyu mugabo akaba ari kubasobanurira, ku bijyanye n'ubuzima rusange.

Imiti ya kinyarwanda inshuro nyinshi usanga ivura indwara zigiye zitandukanye, ibi ni ibiganza bikaba biriho indwara y'ubushita, ariko nta kibazo biteye kuko hari imiti myiza cyane, kandi ya gakondo izabivura mu buryo bworoshye.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, iyi ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho hagaragaramo ibikakarubamba, hakagaragaramo imiti igiye itandukanye, irimo nk'amatangawizi, amatungurusumu ndetse n'ibindi biri mu dusorori.

Ibi ni ibimera bizengurutsweho n'inzuki ibi bimera bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo hakaba hariho inzuki zabyizengurukijeho aho zino nzuki zifatanya n'ibi bimera bityo bikabyara umuti gakondo.

Uyu ni umwari utagira uko usa afite imisatsi myiza cyane inyerera y'umukara, akaba ari mu iduka aho ari gucuruza imiti gakondo iri mu ducupa, ndetse no mu dukarito, iyi miti ikaba ivura kandi irizewe.

Iyi ni imwe mu miti gakondo yakoreshwaga kera kuko wasangaga abantu batagira ubwishingizi ndetse nta n'amavuriro menshi ariho ngo babe bajya kwivuza, bityo bo ubwabo bakivura.

Uyu ni umuganga wa gihanga. Imbereye hakaba haryamye umurwayi, yafashe ikirenge cye akaba ari kugenda akigorora gake gake. Abavuzi nk'aba si ngombwa ko biringira kuko rimwe na rimwe hari igihe ugwa mu maboko yabo.

Aha ni mu kigo nderabuzima hari umuforomokazi uri kwakira umurwayi. Ni umumama uri kumuha ikarin. Uyu muforomokazi afite ikaramu mu ntoki agiye kumwandikira maze amwemerera ajye kwisuzumisha.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba hari umurwayi uryamye w'umusore ndetse akaba ari kuvurwa n'umuforomokazi ukiri muto w'umwari wambaye impuzankano y'ubururu, aho ari kumusuzuma ngo yumve ko umutima we ukiri gutera.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima hakaba hari abagabo babiri bafite umurasire utanga ingufu z'amashanyarazi munini cyane, bari kuwuterura bagiye kuwugerekaho mu rwego rwo kugira ngo iki kigo nderabuzima kibone umuriro.

Iyi nyubako nziza cyane z'ubucuruzi, imbere y'izi nyubako haparitse moto, iyi moto iparitse mu mbuga isashemo amapave, hijya y'iyi moto ho gato, hari akameza karambuyeho umwenda, si byo gusa kuko ku ruhande, hari ibyatsi bya pasiparumu ndetse hakaba n'amadarajya.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe harimo urubyiruko ndetse n'abakuze, hakabamo abazungu n'abirabura, bahagaze imbere y'ikigonderabuzima cyanditseho girabu ubuzima, aho bishimiye kuba bahuye bakaganira ku iterambere ry'iki kigonderabuzima.

Iyi ni inyubako nziza cyane isize amarange y'ubururu, ikaba isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari umumama wambaye imikenyero ufite indangururamajwi, akaba ari gutambutsa imbwirwaruhame, abari aho na bo bamuteze amatwi.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima ikaba iriho urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza ndetse bari gutanga ubukangurambaga ku bijyanye no kwirinda indwara, bose urabona ko bashishikajwe no kumenya serivisi ziri gutangirwa aho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho isize irange ry'ubururu ikaba isakaje amabati y'ubururu. Imbere yayo hateye imikindo myiza cyane ituma hagaragarara neza, muri iyo nyubako kandi hari kugaragaramo umugabo uvuye kuri moto.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo abaganga bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, harimo umugabo umwe uri kubahugura wambaye akajire k'umukara, inyuma hariho amagambo yandikishije umweru.